Inzego z'umutekano ku rwego rwa polisi, zikurikirana umutekano w'abaturage, birwanya ruswa ,bireba ko abaturage bameze neza. Zikamenya ko barinzwe, aribo ndetse n'ibyabo ,kugira ngo igihugi kigire abaturage bafite imibereho myiza.

Umutekano ku nzego z'ibanze, aba ni abacungagereza bashinzwe gucungira umutekano imfungwa, no gucunga ko zitasohotse bakamenya neza ko zirimo.

Inama y'abaturage yahurijwe hamwe, baza kuganizwa n'inzego z'umutekano ku rwego rwa polisi, bababwira uburyo bwo kwirinda ruswa, amakimbirane n'ibindi n'iigihe cyose babonye aho bigaragaye, babagana bakabafasha.

Ahantu inzego z'umutekano zitandukanye harimo， abaporisi，abacungagereza n'abadaso. Aba ni inzego z'umutekano ku nzego zigiye zitandukanye. Urwego rumwe rubanza hakurikiraho urundi hakurikiraho urundi，kugira ngo bafashanye umutekano, ....

Aba ni abashinzwe irondo ry'umwuga ni n'abandi ba batozwa igihe gito ubundi bagakora irondo ry'umwuga barikora nijoro bari bacunga ibisambo bimwe, ibisambo bitandukanye, baba bambaye ifomuy'ikigina n'ingofero bashinzwe gucunga ibintu n'ba..

Umuyobozi w'umutekano ku rwego rw'umucungagereza, bakaba bashinzwe gucunga imfungwa, bakamenya ko zimerewe neza ndetse bakazirinda no kuba zatoroka zitarangije igihano.

Amashiga ya kijyambere amashiga ya kijyambere akoreshwa umuntu yifashishije gaze, ugatekaho ukarinda kwangiza ikirere kuko ntamyotsi isohoka, kandi ugahisha vuba.

Ubu ni bumwe mu buryo bwo gucunga umutekano ku rwego rwa gisirikari. Aha bari mu myiyerekano y'akarasisi. Bakaba bashinzwe gucunga igihugu, gucungira igihugu umutekano, n'abagituye, n'ibyabo.

Abashinzwe umutekano ku nzego zitandukanye: mu rwego rwa gisirikare, urwego rwa polisi, urwego rw'abacungagereza, n'abandi bayobozi bo ku nzego z'ibanze, n'izisumbuye, mu gufatanyiriza mu gucunga umutekano w'igihugu n'abagituye.

Abashinjwa ibyaha baregwa bambitswe amapingu bashinjwa bajyanwa gufungwa kugira ngo ibyaha nibibahama bazafungwe, bakatirwe, bazarekurwe mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gifasha abantu mu gufata amashusho, bikabarinda ibisambo kwiba ibintu ntibishoboke bifashishije zino kamera.

Iyi mbwa, izi ni imbwa zifashishwa n'abashinzwe umutekano barimo abapolisi n'abasirikari, bazamb...barazitoza ubundi zikaba zifite ubushobozi bwo kumenya ahantu hari ibisasu, bikayobora inzego zishinzwe umutekano mu gutegura ca gisasu, kitarangiriza abaturage kubera ko ziba zarabitojwe, zo zigenda zihumurirwa n'ahantu hari igisasu cangwe n'ibintu byose byakwangirika.

Izi ni zimwe mu nzego z'ibanze, ku rwego rw'abadaso bitegura gutangira umurimo wabo, wo gucunga umutekano w'abantu n'ibyabo, bakunda akazi kabo kandi bagakora neza.

Iyi ni inama ku rwego rw'akagari. Inama ihuza imidugudu itandukanye, bagahurira hamwe mu byo dukunze kwita "inteko y'abaturage ". Aba ari abayobozi b'inzego zitandukanye inzego zo hasi n'izo hejuru ,bakaganira ku kibazo runaka bakagishakira n'umuti wacyo.

Inama y'abayobozi bahuriye hamwe, bari kwiga ku bintu runaka, ibibazo runaka bigomba gukemuka, bari ahantu heza hateguye neza, nk'ahagomba kubera inama umusangiza w'amagambo afashe indangururamajwi ari kuvuga.

Iyi ni nteko rusange, inama y'abaturage ku rwego rw'umudugudu, bahurije hamwe n'abayobozi babo ku nzego z'ibanze, bari gufatanya gukemura ibibazo, no gutanga imigambi n'ibyo bashaka kugeraho mu minsi iri imbere.

Inama y'ababyeyi bonsa n'abatwite ihurira hamwe, mu kwita ku burenganzira bw'umwana, kumenya indyo yuzuye yo gufasha umwana n'umugore utwite, akazabyara neza.

Inama yahuje inzego zitandukanye z'umutekano, kuva ku rwego rw'abapolisi, urwego rwa gisirikare n'urwego rw'abacungagereza n'abandi bayobozi batandukanye, bahurijwe hamwe mu kwiga ku ngingo zitandukanye zateza umuturage imbere, no kumurindira umutekano w'igi.

Inama yahurijwe hamwe n'umuryango mu birori bagize byo kwizihiza isabukuru y'umwana wabo. Habereye ibirori hatanzwe n'impano byari byiza.

Inama yahuje abayobozi ku nzego zitandukanye; inzego zo hasi, izisumbuye, abayobozi bigenga ku mashyaka yigenga, bahuriye hamwe mu kwiga ibyateza imbere igihugu n'umuturage.

Intore z'abasore bose zizi guhamiriza. Bafashe ingabo, bafashe icumu bambaye bambaye inshabure, bambaye inigi babereye u Rwanda bagiye guhamiriza.

Igikoresho cyo mu muco nyarwanda gakondo cyitwa umusambi cyangwa ikirago. Kifashishwa umuntu akiraraho, ukakicaraho ku kazuba, ukacyanikaho imyaka ni cyiza.

Mu muco nyarwanda, mu muco nyarwanda tugira abasore b'ibigango bogushwa amasunzu, bakambara inigi, bakaba basa neza, ari inturi.

Ubworozi bw'amatungo meza cyane, inka z'inyambo, izi ni inka z'inyambo zimenyerewe cyane mu muco nyarwanda, zigira amahembe arambuye kandi maremare, zifashishwa mu gutambagira mu myiyerekano mu bikorwa by'umuco.

Ibikoresho by'umuco nyarwanda byitwa inkongoro ni ibikoresho bikozwe mu mu giti bikaba bigira umufunikizo n'icyo gutereka, ibikoresho byifashishwa mu kunywa amata.

Abari, abategarugori b'umuco nyarwanda, bambaye inshabure, bavuye kuvoma bikoreye utubindi turimo amazi, n'abari beza b'umuco.

Umuco wo kuboha utwibo, uduseke two kwifashisha tubikamo ibintu bitandukanye, tugemuriramo abantu baboha bifashishije inshinge n'urudodo.

Ibyo kunywa by'umuco nyarwanda mushyira hamwe mu kintu mukanyweramo mukoresheje imiheha, mugakurura umusururu. Bimwe mu misururu n'igipende bikoreshwa mu bukwe nyarwanda no mu birori bigiye bitandukanye.

Ibikoresho twifashisha dusekura cyangwa dusyamo ifu n'imiti, mu muco nyarwanda tucyita isekuru n'umuhini ,haba hari umusekuzo tubyifashisha dusekura n'isombe n'ibindi bintu bitandukanye.

Inkongoro, igikoresho twifashisha tunywa amata, bacyita inkongoro, kiba gikozwe mu mbaho, kikaba gicukuyemo imbere, naho kunywera, gikoreshwa mu kunywa amata n'umusururu.

Mu muco nyarwanda uburyo bwo kwigisha kuboha umusambi cyangwa ikirago. Kuboha umusambi twifashishije inshinge, inshinge ni ibyatsi byera mu gishanga twifashisha tuboha umusambi.

Mu muco nyarwanda tugira intore, umutegarugori yambaye urugori, yambaye umushanana, umekenyero, yambaye urunigi, yateze amaboko, arimo guhamiriza indirimbo gakondo.

Igikoresho cyiza cyane cy'umuco Nyarwanda cy'uburyo bwo mu muco bwo kubika inzuki cyangwa korora inzuki . Kikaba cyitwa umutiba , kifashishwa mu kubika inzuki , korora inzuki ahantu hatuje kandi zigatanga umusaruro w'ubuki.

Mu muco wacu wa Kinyarwanda tugira intore zizi guhamiriza, zizi kubyina neza zirahamiriza. Abategarugori bambara urugori, bakambara inigi, bambara imishanana bagahamiriza indirimbo gakondo bakazibyina.

Inkono y'itabi ni itabi gakondo jy'umuco w'abanyarwanda rikozwe mu giti, rikagira aho gufata rikagira n'ako gushiramo itabi, ubundi ugashiramo igikara cangwa ukarasiraho ikiribiti ubundi ukanwa itabi jyawe. Iri ni itabi usanga ahantu henshi hatandukanye mu gihugu c'u Rwanda, cyane cyane mu majyaruguru ni ho barikoresha.

Mu muco intore zirahamiriza, abari b'abategarugori bari guhamiriza neza bateze amaboko bambaye inigi mu mutwe, bambaye n'imikenyero, barimo guhamiriza babyina indirimbo gakondo.

Inzu ndangamurage y'u Rwanda, inzu z'ibyatsi, inzu ya kera, iba ifite uduseke tubiri imbere yayo aho kwinjirira, ku myugariro inzu isakaje ibyatsi, mu mana ari imigano akaba ari inzu iri mu umuco nyarwanda.

Mu muco nyarwanda, mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, batugira umuco wo guteka umutsima wo mu masaka. Umutsima bawita rukacarara. Umutsima witwa rukacarara uba ukozwe mu masaka.

Mu muco tugira intore, intore zihamiriza mu birori, mu makwe, izi rero ni intore z'abakobwa, z'abagore, abategarugori baba bambaye neza imishanana, bambaye urugori basa neza babereye u Rwanda.

Igikoresho cyiza cyo mu muco nyarwanda tucyita indosho. Ni ibikoresho wifashisha kuza nko mu nkono y'ibishyimbo cyangwa impungure, ushaka kureba ko byahiye cyangwa ukavangavanga ibyo kurya. Ni igikoresho gikozwe mu mbaho, kikaba gisa n'igicukuye hejuru ku mutwe.

Intore ziri guhamiriza, zifite icumu, zifite ingabo, zambaye imikenyero, ziri guhamiriza neza, zambaye n'inigi ziri kubyina indirimbo gakondo.

Mu muco w'Urwanda tugiramo guhamiriza kw'intore , intore zirimo zirahamiriza z'abasore beza cyane b'ibigango bafite ingabo ndetse n'amacumu bari guhamiriza mu muco w'Urwanda.

Inzoga. Inzoga yo mu muco. Iki ni ikibindi kirimo inzoga ya kinyarwanda cangwa umusururu. Iyo mugiye kunga ubumwe mwese muhuriraho mugakoresha imiheha, mugakurura mukanyweramo, mukaba mugize igihango co kunywera ahantu hamwe ari bwo bumwe.

Ibikoresho by'umuco gakondo by'umwihariko isekuru n'umusekuzo wayo, isekuru ni igikoresho cya kinyarwanda kiba gikozwe mu mbaho, mu giti, kikaba gifite umwobo mw'indani, kikagira n'umusekuzo twifashisha dusekura ibinyampeke n'isombe.

Mu muco nyagwanda mu muco gakondo tugiramo imbyino gakondo zikorwa n'intore, babyita guhamiriza. Ubwo rero baba bafite ibikoresho harimo igisabo inkoko bifashisha berekana imbyino zabo, barushaho kuzigira neza. Intore ziba zambaye imishanana cyangwa imikenyero n'imibano mu mutwe.

Igikoresho gakondo cyiza cyane cyifashishwa mu buhanzi cyitwa umuduri, wubakitse neza ari igiti kikagira ku ruhande utuntu tw'ibicuma n'uduti two gucurangisha umuduri ni mwiza.

Intore zirimo guhamiriza, abasore abagabo abategarugori bari guhamiriza bambaye imikenyero bambaye imishanana, abasore bambaye ingabo, abagore bambaye urunigi n'urugori, bari guhamiriza imbere y'inzu gakondo nyarwanda.

Igihingwa cyiza, igihingwa cy'ibihaza bivamo ibisabo. Barabihinga, aba ari uruyuzi rukera ibihaza biza kuvamo ibisabo. Igisabo kibarirwa mu muco nyarwanda, kenshi mu makwe, mu gucundiramo amata, n'ibindi.

Umuco wo kuboha utwibo, ubu ni ubujyo tubohamo ubwibo ari ubunini ari n'ubuto tuzifashisha mu kubikamo ibindu bitandukanye cyangwa mu gutwaramo ibintu. Ubwibo tububoha dukoresheje imigozi cyane cyane ikunda kuboneka mu bishanga.

Mu muco nyarwanda tugira umuco w'ubusabane abantu bahurira hamwe bagasabana bagasangirira ku kibindi kimwe kirimo ibyo kunywa nyarwanda bagahuza urugwiro bakunga ubumwe bakoresheje ubusabane

Umuganda rusange igihe itariki isoza ukwezi, tugira umuganda rusange uhuriramo n'abaturage bagiye batandukanye b'inzego zitandukanye, bakajya ahantu runaka babona hakenewe gukorwa umugarada wenda ari ukubaka umuhanda bakawubaka, bagatera ibiti, bagakora amaterasi mu muganda bahuriweho, ubafasha guhuza hamwe.

Igikoresho cyo mu muco nyarwanda, igikoresho cya gakondo kifashishwa mu guheka cyitwa ingobyi. Bagikoresha baheka abarwayi babakura hamwe babajyana ahandi, kikaba gikozwe mu migano n'ibiti.

Igikoresho cyo mu muco nyarwanda, cyangwa mu muco gakondo cyitwa ingobyi. Ingobyi yifashishwa baheka abarwayi babakura mu rugo babajyana ku mavuriro, cyangwa babakura ku ivuriro rimwe babajyana ku rindi vuriro.

Igikoresho cyo mu muco Nyarwanda, igikoresho gakondo, kifashishwa mu kugosora umuceri, kugosora ibishyimbo, kugosora ingano, icyo gikoresho cyitwa inkoko, kiba gikozwe mu migano, kirambuye, ushyiraho ibishyimbo ukagosoramo imyanda, cyangwa umuceri.

Indirimbo mu muco nyarwanda, umuco gakondo ziririmbwa hakoreshwa bimwe mu bikoresho by'umuco gakondo. Aha bari kuririmba bifashishije igikoresho cyitwa umuduri. Umoduri ni igikoresho cyubakanwe mu ubuhanga bukomeye gicurangwa mu gihe bari kuririmba indirimbo gakondo.

Iki ni kimwe mu bikoresho by'umuco nyarwanda, kiboneka mu majyaruguru, mu karere ka Musanze . Gikorwa mu migano. Cyitwa urusika. Kino bagikoresha bari gukora parafo bakagisakaza, bakagikoresha no ...

Mu muco tugiramo ibintu bitandukanye, ariko tugira intore, intore gakondo zihamiriza imbyino gakondo nyarwanda. Ziba zambaye, zambaye imisatsi yo guhamiriza zikenyeye zimeze neza cyane zirimo guhamiriza.

Iki ni igikoresho mu muco nyarwanda gikorwa mu migozi y'ishinge, kigakorwa mu ishinge, gikoreshwa nk'icyo kwitwikira mu mvura n'inkono y'itabi banywa, inkono y'itabi yo mu muco nyarwanda.

Umukino dusanga m'umuco Nyarwanda wo gusimbuka urukiramende . Uyu ni umukino ukorwa n'abagabo ibitsina gabo gusa bakora uduti ubundi bakadusimbuka tukaba twitwa urukiramende.

Mu muco nyarwanda, mu muco nyarwanda tugira utwibo cyangwa uduseke, tubohwa mu ishinge, tukabikwamo ibintu bitandukanye, tugakoreshwa mu gusurana.

Mu muco nyarwanda umuco wo kuvuza ingoma ni umuco utazibagirana kandi ukomeje gutera imbere, abavuza ingoma aba ari bakaraza bifashishije udukoresho twitwa imirisho.

Mu muco nyarwanda tugira uburyo bwo kubika im imyakaka yasaruwe mu bigega, ibigega baboha bakabitera amase ubundi tukanika ku ihema . Niba ushaka ko ibyasaruwe byuma vuba ,bibikwe bitari bubore.

Mu muco nyarwanda gakondo, umuco wo kwenga urwagwa, ubu ngubu ni uburyo bwo kwenga urwagwa cyangwa kwenga umutube, dukoresheje inshinge tukenga umutobe tuwuvana mu mineke.

Igikoresho cyo mu mu muco nyarwanda, igikoresho kiza cyitwa agacuma. Agacuma ni igikoresho kiba gikozwe mu gihaza kakaba kanywerebwamo ibinyobwa bitandukanye, bitewe nuko gaforumye umuntu yanakoresha umuheha.

Igikoresho cyo mu muco nyarwanda cyitwa ishoka, inshabiti, iki gifite amazina atandukanye ishoka, inshabiti, gikoreshwa mu gutema ibiti ,mu kwasa inkwi, ibintu bitandukanye.

Bumwe mu buryo gakondo mu muco, bwakoreshaga bahiga ,cyangwa barwana n'ikindi gihugu ,bakoresheje umwambi n'umuheto . Urabona ko ari umusore w'ibigango uri gukoresha umwambi n'umuheto, wogoshwe amasunzu wafoye neza.

Intore zirimo zirahamiriza ni abari bambaye neza, ni abategarugori bambaye amayogi, bambaye imishanana, bambaye urugori, bateze amaboko, barimo guhamiriza bakoresheje indirimbo gakondo mu muco gakondo wa kinyarwanda.

Mu muco wacu nk'Abanyarwanda tugira ingoma z'ubwoko butandukanye. Tugira imirishyo. Imirishyo dukoresha tuvuza ingoma, tukagira n'abakaraza aribo bakoreshwa bavuza za ngoma.

Mu muco gakondo tugira intore tukagira n'abakaraba baba barimo kuvuza ingoma bakoresheje imirishyo ,bogoshwe amasunzu bakenyeye imishanana bafashe imirishyo mu biganza, barimo bavuza ingoma bakaba ari abo twita bakaraza.

Intebe za kinyagwanda. indebe, ibi n'intebe zikogwa mu migano. Imigano zakuwe mu rusasa ubundi bakazizana, bakazikuramo intebe zo kwicara wegamira. Hari n'aho kurambika ukuboko. Ni intebe nziza cyane zajya mu mazu z'insirimu ziboneka mu ntara yo mu majyaruguru mu karere ka Musanze. Ni intebe wakoresha muri resitora wakira n'abashitsi.

Iki ni igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gupima ingano y'ikintu runaka, ngo bigeze ku rugero rungana iki. Ni igikoresho cya kijyambere cy'ikoranabuhanga, kigezweho, gikora neza kandi cyihuta.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga igikoresho cyiza cyane twifashisha turimo ducaginga amatelefoni kiba gifite imyanya yo gucomekamo igera muri mu myanya eshatu kihutisha mukaba mwacagingaho murenze umwe.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga, ni igikoresho twifashisha mu buryo butandukanye bw'ikoranabuhanga. Kikaba kifitemo igitanda n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bihuriye hamwe bitandukanye.

Iki ni igikoresho cy'ikoranabuhanga giteye imbere cyane mu buryo bugezweho cyifashisha amashanyarazi mu gukora ,gupima ibintu bigira bitandukanye ingano yabyo.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gufungura amaburo, ukaba wayafungura ukarebamo intani y'icyo gikoresho. Ni igikoresho kiba gikozwe mu cyuma aho gufata hakozwe mu mapalasitike ,igikoresho cyihuta.

Iki ni icyuma cy'ikoranabuhanga kigezweho gifasha mu gukora ibintu bitandukanye, mu gukatamo ibintu byihuse kigakata kandi neza ,byifashishwa mu gukata ibyuma bagiye guteranya vuba ,kandi bitagoranye

Utu dukoresho ni tumwe twita udukururamajwi. Cyangwa mu rurimi rw'amahanga ekuteri. Mu zidufasha turazambara, tukazitabiramo, tukumva umuziki neza, ni burutufu zikora ukoresheje burutufu bidasabye gucomeka umugozi muri telefoni. Ni ekuteri za kijyambere, zigezweho kandi zikora neza zifasha umuntu uri gukora siporo n'uri kwiga.

Iki ni kimwe mu bikoresho by'iterambere bigezweho twifashisha mu guteka kandi vuba. Uragenda ukayivomeramo, ukaza ugateka irinda iryangirika ry'ikirere bitewe n'imyotsi, kuko ntisohora imyotsi kandi iteka vuba itanduje n'ahantu, ikagumya gutuma ahantu hagira isuku.

Iyi ni inyubako nziza cyane irimo kuzamurwa kugira ngo izakorerwemo ibikorwa by'iterambere, ibikorwa byo guteza abaturage imbere, ikaba itaruzura ariko ikaba iri m nzira yo kuzura.

Inyubako y'urusengero ya Birumba ni urusengero rwa kijyambere rwubatse neza rufite aho gukarabira mbere yo kwinjira, rukaba rufite ibikorwa remezo amazi n'amashanyarazi mu rusengero ruboneka mu ntara y'Amajyaruguru.

Inyubako urusengero abantu bazamo baje gushima Imana, gusenga Imana, urusengero rwubatse neza rwa kijyambere rufite aho gukarabira kugira mutanuzanya indwara ubundi ukinjira ni urusengero muri make.

Uyu ni umuhanda muremure mwiza uherereye mu majyaruguru mu karere ka Musanze. uyu Umuhanda ufasha abagenzi mu gukora ingendo zabo ari iz'ubwikorezi bw'ibintu nabo ubwabo byihuse.

Urusengero katorika，ni inyubako y'inzu y’Imana， urusengero rw'abakatorike basenga ku cyumweru， ni urusengero rwiza rwubatse bigezweho rwa kijyambere.

Inzu dukunze kwita ikusanyirizo ry'ibirayi, aho batunganyiriza imbuto, batuburira imbuto y'ibirayi. Biherereye mu ntara y'Amajaruguru umurenge akarere ka Musanze umurenge wa Busogo. Niho twasanga ikusanyirizo ridufasha mu gutubura imbuto y'ibirayi igiye itandukanye kandi nziza wabonera igihe.

Ikigo cy'amashuri, amashuri abanza n'ayisumbuye, inyubako zayo nziza n'ibyumba byiza. Iki kigo cy'amashuri giherereye mu karere ka Musanze.

Inzu nziza cyane zo guturamo， zo kugabanya ubucucike bamwe batura mu nyubako yo hasi，abandi yo hejuru， ni ahantu heza hafite isuku， hitaruye hafite ibikoresho bya kijyambere， amazi arahari umuriro urahari，ni inzu nziza cyane.

Amazu y'abatishoboye yubakwa na Leta y'u Rwanda, bagafatanya n'abaturage bakubakira abatishoboye amazu yo kubamo, akaba afite ibikorwa remezo, amazi n'umuriro.

Inzu y'ishami ry'ubuvuzi. Ni ivuriro ritoya bakira abarwayi batarembye, n'abarembye bakabohereza ku bitaro bikuru. Ivuriro rigira abaganga beza.

Ibiro by'akagari hakorerwa inzego z'ibanze, umuyobozi w'akagari n'abamwungirije. Ahangaha n'aho bakorera, abaturage iyo baje babagana babasanga ku biro by'akagari.

Urusengero rwabasenga ku munsi wa karindwi, urusengero rwiza, rwitwa ngo isangihano ry'irubiga aba abagana benshi bagiraga ibikorwa byiza.

Inzu inyubako y'ibiro by'akagari ku rwego rw'ibanze haba hari abayobozi b'inzego z'ibanze abaturage bagana bagakemurwa ibibazo bakahakorera n'imiganda n'inama rimwe na rimwe.

Inyubako y'akarere ni inyubako iba irimo ibikorwa bitandukanye, abaturage bagana a bagiye kubaza iby'ibibazo byabo n'ubuyobozi bwegereye abaturage.

Ikusanyirizo cyangwa urugomero rw'amashanyarazi. Ahubatse hakaba hahuriye insinga zitandukanye, mu buryo bwo gukwirakwiza amashanyarazi cyangwa umuriro mu baturage urugomero rw'amashanyarazi.

Zimwe mu nyubako zifashishwa mu gutunganya imisaruro igiye itandukanye, bigira uburyo bwinshi bwo kubikamo, imisaruro yabonetse.

Ahantu aho twita ngo ni amahururiro y'imihanda, imihanda inyuranamo umwe ukwira hirya n'undi iriya hirya. Ahantu haba heza cyane kuhareba twareba neza cyane.

Uyu ni umuhanda mwiza cyane, umuhanda ukoreshwa mu gutwara ibintu n'abantu, uherereye mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Musanze, uyu muhanda ni mwiza mu kuwutwaramo ibintu n'abantu.

Iyi nzu ni inzu ya Leta ishinzwe kubika no kubungabunga ibidukikije, ikaba iri hafi y'ibikorwa remezo n'umuhanda n'amashanyarazi, ikaba yubatse neza iri n'ahantu heza.

Inzu y'ibiro by'akagari ka Rububindi ni inzu iriho inzego z'umutekano zitandukanye hakaba hariho umuyobozi w'umurenge, umuyobozi w'akagari, aho abaturage bahurira mu gukemuza ibibazo byabo bitandukanye.

Inzu za leta, aho bahurira mu gusezeranya abashyingiranywe ku murenge, haba hari abapolisi, aba daso, inzego za leta zitandukanye, mu kurinda umutekano w'abantu n'ibintu.

Inzu za kijyambere, inzu zubakwa mu buryo bwo kugira ngo basigasire ubutaka, barinde akajagari. Izi nzu ziba ari nziza, ziranakundwa.

Inzu rusange ikorerwamo ibikorwa bya Leta bitandukanye, harimo ibikorwa by'ubwisungane mu kwivuza, ishyirahamwe ry'urubyiruko, n'abagomba kubafasha.

Inyubako y'umurenge, aho abayobozi b'inzego z'ibanze n'izo hejuru, bahuriye hamwe bavuga ku byo bakwiye gukora n'ibyo bagezeho ,n'ibyo bateganya kugeraho n'ibyangiritse bagomba guhindu...

Inzu zubakiwe abatishoboye, ku bufatanye na leta, zifite ibikorwa remezo, zifite amazi, zifite umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba, n'amatara n'amatoshi.

Ibiro by' umurenge wa Busogo biherereye mu karere k' Amajyaruguru, ibiro bikunda kuganwa n' abaturage batandukanye, bazanye ibibazo byabo ngo bikemurwe, abandi baje kuhashaka ibyangombwa mu buzima bwa buri munsi.

Inyubako za kijyambere zigezweho ,ni inyubako nziza zigira ibikorwa remezo haba amazi ,habamo umuriro w'amashanyarazi ,bigira ubwiherero bwiza ,bigira ibyumba binini ,bikaba bifite n'isura nziza kuko bigenda bisa.

Inyubako za Leta ziba zirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga nka za mudasobwa, umuturage ajyamo agakoreraho ibintu runaka ashaka, ubundi agataha akoresheje inzu ya Leta.

Inyubako y'Akagari ku rwego rw'Akagari ihurirwaho n'abaturage batandukanye baje gusaba abayobozi babo kubakemurira ibibazo no kwishyura ubwisungane mu kwivuza.

Ishusho ya bikiramariya imbere ya kiliziya, urusengero rwa Katorike, ishusho ikozwe mu kibumbano ya bikiramariya n'inzu ya kiliziya yubatse neza igezweho Kandi inziza.

Ikiliziya, inyubako ya kiliziya, urusengero rw'abakatolike, ni kiliziya nziza yubatswe mu buryo bw'iterambere, ikaba ifite byose bisabwa kugira yuzuze ibisabwa nk'urusengero.

Uburenganzira bwa muntu burubahirizwa, agahabwa ijambo agahabwa n'umwanya agasobanura igitekerezo ke mu buryo bwumvikana, nta we umuhutaje akaba yavuga n'ikibazo ke kigakemuka, uburenganzira bwe bukubahirizwa.

Mu nama rusange y'abaturage , abaturage , inzego z'ibanze n'abayobozi buri muturage afite uburenganzira bwo kuvuga ikibazo cye no kugisobanura no gukemurirwa ,batagendeye ku moko ahubwo buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga ku gihe .

Inteko y'akagari aho batumiza abaturage bose bakaza， hari abayobozi b'inzego z'ibanze n'izisumbuye， mukaganira ku bibazo bihari，mukabikemura mwifashishije inzego zihari，ubundi amahoro agakomeza akaboneka， mu burinzi n'umutekano bikajya mbere.

Iyi ni inama yabaye ku rwego rw'akarere ,yahurije hamwe abaturage hamwe, ngo bamenye uburenganzira bwabo ,barwanye akarengane, buri wese avuge igitekerezo cye nta muntu umubangamiye ,agitange uko agishatse.

Inteko rusange y'abaturage bahuriye hamwe mu biganiro byabahuje, mu midugudu itandukanye, hari abayobozi batandukanye ab'inzego z'ibanze, inzego zisumbuye mu gukemura ibibazo abaturage bafite kandi neza.

Iyi ni inama ivuga ku burenganzira bw'umugore, aho umugore ahabwa ijambo agahabwa n'agaciro ko kuba yakisobanura yatanga igitekerezo, yagira uruhare mu iterambere rye n'iterambere ry'igihugu.

Ihuriro ry'imodoka imodoka ziba ziparitse zitandukanye, zitegereje abagenzi ngo zibatwate zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi, n'abazitwara n'abashinzwe kwinjiza abagenzi, zikora neza Kandi vuba.

Ubwikorezi bw'ibintu butwarwa n'imodoka zikabijyana haba ari ibintu byinshi bitwarwa icyarimwe bikavanwa ahantu hamwe bijyanwa ahandi.

Imodoka nziza yikoranabuhanga ikoresha batiri bidasaba gukoresha mo esanse, badashiramo mazutu imodoka itwara abantu n'ibintu byihuse ikarinda n'umwotsi wo mumuhanda.

Ikinyabiziga cyiza cya kijyambere kigezweho mu gutwara abantu n'ibintu, wicara wisagaguye kikagenda ku muvuduko ukwiye kikagukura ahantu hamwe kikujyana ahandi

Ihuriro ry'ibinyabiziga bijya mu byerekezo bitandukanye, haba harimo amamodoka atwara abantu benshi n'imizigo yabo, aho abantu bahurira bashaka kujya mu byerekezo bitandukanye bagiye gutegera.

Ahangaha ni muri gare ya Musanze, aho abantu bahurira bakaza gufata imodoka, bakagera mu byerekezo bitandukanye, hari abaje i Kigali, hari abajya mu Majyepfo, hari amazu agira imodoka zigiye ahantu hose hatandukanye mu gihugu.

Mu uburyo bwo gutwara ibintu n'abantu, hakoreshejwe hifashishijwe amagare. Amagare afasha abantu mu gutwara ibyabo , akabaca n amafaranga make nabo akabatwara, kandi akihuta akaborohereza imirimo yabo ya buri munsi.

Ubwikorezi bw'imizigo myinshi kandi iremereye ivanwa mu gace kamwe ijyanwa mu kandi. Izi ni imodoka zifashishwa mu kwikorera iyo mizigo iyijyana ahantu hatandukanye kandi vuba.

Ubwikorezi bwo gukoresha ingorofani, batwara ibintu byinshi mu gihe gitoya bakihuta. Kandi bikagerayo neza nta kibazo bifite, bifite umutekano uhagije.

Ibikoresho twifashisha. Ibinyabiziga twifashisha mu kudukura hamwe bitujyana ahandi, mu kudutwarira imizigo ndetse na twe ubwacu. Harimo moto, moto ni nziza cyane zihutisha urugendo, kuyijyaho ikuvanye hamwe ikujyana ahandi ni mu minota mike, kandi ntago inywa esansi nyinshi.

Ubwikorezi bw'ibihingwa byasaruwe, bigiye kuvanwa mu gace kamwe bikerekezwa mu kandi gace, ibyo modoka zitwara imizigo myinshi bikabigezayo mu gihe gito, umuntu akaba yabasha kubona amafaranga n'ibyo kurya byihuta.

Izi ni zimwe mu modoka zo mu bwoko bwa azi, zifashishwa zitwara abantu n'ibihugu byabo, zikabagezaho bagiye vuba vuba , kandi zihuta zica n'amafaranga make , ziratworohereza mu.

Izi ni zimwe mu modoka zifashishwa mu gutwara ibintu n'abantu ,zikabavana ahantu hamwe zikabajyana ahandi. zica amafaranga make, zirihuta zigiraga serivisi nziza zigira ubumwe.

Ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara abantu n'ibyabo, ikinyabiziga kijyamo abantu benshi kandi kikabageza aho bagiye vuba byihuse kikirinda impanuka zo mu muhanda zishobora guterwa n' umuvuduko mwinshi cyakoresheje.

Imihanda inyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye itwara abantu n'ibintu byabo, akoreshwa moto, hakaba hari n'amazu atari yuzura, ari kuzamurwa ataragera hejuru, kugira ngo Umujyi wa Musanze ugumye gusa neza.

Mu buryo bwo kwifashisha mu ngendo zacu za buri munsi, tuva ahantu hamwe tujya ahandi kandi mu buryo bwihuse, twifashishije moto. Moto ni igikoresho cyiza kigufasha mu ngendo zacyo no gutwara imizigo mu buryo bworoshye kandi vuba.

Uburyo bwo gutwara ibintu n'abantu hakoreshejwe moto zigezwe, moto zigezweho zigira amapine atatu zigapakira ibintu byinshi, zigatwara na nyirabyo, zigatwara ibintu byinshi mu gihe gito kandi zigakoresha umuvuduko uri hejuru ku buryo iyo bigiye bigerayo vuba.

Ubwikorezi bw'imyaka myinshi, tomatoni n'amatoni, izi ni zimwe mu modoka zikora ubwo bwikore bwo gutwara ibintu byinshi, bibivana mu gihugu bikijyana mu kindi gihugu, vuba kandi bikabyihutisha.

Imodoka ishinzwe gutwara ibikoresho hakaba harimo n'inzira rusange, inzira inyuramo abantu, inzira yoroheje usanga iba mu biturage ikoreshwa mu kuva ahantu mu mugiturage kimwe tujya mukindi.

Ikibuga cy'indege, bumwe mu bwikorezi bw'ibintu n'abantu, bukoresha uburyo bwo kugendera mu kirere. Ni ugukoresha indege uva ahantu hamwe ujya ahandi mu buryo bwihuse.

Iri ni ihuriro ry'imodoka canga aho bategera. Haba hari imodoka zitandukanye zigiye mu byerekezo bitandukanye. Ugiye i Rubavu, ugiye mu majyepfo, ugiye mu majyaruguru, ugiye i kigali, buri wese arebera aha ngaha agakatisha tike agategegwa, imodoka ikamujyana mu cyerekezo agiyemo.

Amagare y'ifashishwa mu gutembera mu mijyi wa kinigi gusura ibirunga, aya magare afasha umuntu kwihuta, arakodeshwa ukarigenderaho ukaza kurigarura nimugoroba rikaba ryagufashije gutembera ahantu hatandukanye.

Ibinyabiziga bikunzwe kwitwa ngo bya bikururane byifashishwa mu gutwara imizigo ivana mu gihugu kimwe bijyana mu kindi, bifite ubushobozi bwo gutwara imizigo iremereye kandi myinshi.

Ubu ni uburyo bwo gutwara ibintu, hifashishijwe amagare. Amagare afasha abantu gutwara imizigo yabo byihuse, kandi agatwara myinshi iremereye bakayigeza ahantu vuba vuba bidatinze.

Ihuriro ry'ibinyabiziga n'abantu umunsi w'abanyeshuri wageze, abanyeshuri bari gutaha batega imodoka zibajyana aho bagiye gutaha ku macumbi yabo no mu rugo bafite n'amabaga byose biraza gutwarwa hamwe kuko hari modoka zishinzwe kubajyana.

Uburyo bw'ubwikorezi bw'ibihingwa. Ibihingwa biva mu gace kamwe bijya mu kandi gace, bikajyanwa neza bikagerayo bitacitse, bifite umutekano wuzuye bikagera kuri nyirabyo.

Aha ni ihuriro ry'ibinyabiziga n'abantu, aho abantu bahurira bagiye gufata imodoka ziberekeza mu byerekezo bitandukanye, bakishura zikabajyana kandi mu mutekano wuzuye bakagera iyo bagiye amahoro, bafite umutekano wuzuye n'ibyabo birinzwe neza.

Ikinyabiziga twifashisha mu gutwara ibintu bitandukanye. Igare ry'amapine atatu rya kijambere, rigira aho kwicara n'aho gutwarira utwaraho ibintu mu buryo bworoshye nawe rikagufasha kuva ahantu hamwe rikujyana ahandi, mu buryo bwihuse butariye igihe.

Amarushanwa y'amagare abera mu gihugu cy'u Rwanda aba yahuriyemo ibihugu bitandukanye barushanwa. Ugenze ibirometero byinshi agahabwa igikombe, utsinze amarushanwa y'igihugu akoreshwa ku magare.

Umukino w'amagare mu marushanwa y'amagare aho yitabirwa n'ibihugu bitandukanyebagahurira hamwe. b Bakora umukino w'amagare mu kunyonga amagare bakoresheje igihe gito mu gutwara ibirometero byinshi agahembwa.

Imikino y'umupira w'amaguru, iyi ni kipe ihurira hamwe, bagakora itsinda rigizwe n'abakinnyi cumi nu'umwe n'umuzamu, mu mukino w'umupira w'maguru.

Imikino y'amagare aho abantu barushanwa bakoresheje amagare ugenze ibirometero byinshi kandi mu gihe gito agahembwa umukino w'amagare ni umukino ushimishije.

Umwitozo ngororamubiri wo koga .Uyu ni umwitozo ngororamubiri ukorerwa mu mazi menshi cyangwa amazi umuntu ashobora gukwirwamo akaba yava ahantu hamwe ajya ahandi koga ni byiza bigorora amagufwa.

Imyitozo ngororamubiri yo koga. Mu marushanwa yo koga muroga uwagezeyo mbere agahembwa igihembo cy'uwa mbere, bahemba batatu ba mbere. Mu myitozo ngororamubiri yo koga ni myiza cyane, ikorerwa muri pisine.

Bamwe mu bakinnyi b'umukino wa siporo wo gutwara amagare, baba babatsindiye ibihembo byo kuba batwaye mu ibirometero binini mu gihe gito, bagahabwa ibihembo bitewe nuko bakora umukino wo kurushanwa mu gutwara moto.

Umupira bifashisha bakina umupira w'amaboko, umukino w'amaboko bakoresheje uyu umupira, uba ufunze, uba uzengurutse ubundi bakawifashisha bakina umupira w'amaguru.

Umukino wo kwiruka ni umukino ugezweho bisaba kuba ufite igihaha gikora neza. Urwo ni kurwego rw'abagabo bari kwiruka bari bugereyo mbere uriruka ibirometero mu gihe gito arahembwa.

Umukino w'umupira ukinwa n'abafite ubumuga bw'amaguru bawukina bicaye mu tugare twabo, bakajya batera umupira. Ni umukino mwiza cyane kuwureba no kuwukina. Umukino w'umupira w'amaguru kubafite ubumuga.

Imikino yo gukina umupira w'amaboko. Ufata umupira ukawujugunyira ab'inyuma ukarenga izamu, ukaba uratsinze. Uyu mukino ni mwiza urakundwa, nange ndawukunda cyane.

Umukino w'amagare ni umukino ujyezweho cyane hano muri Musanze, ukurura abantu benshi n'abakerarugendo baje kureba, uwo mukino uhuza ibihugu bitandukanye mu gutwara amagare.

Umukino w'amagare ku rwego rw'abana , abana bakora imikino cyangwa imyitozo ngororamubiri , bifashishije uburyo bwo kunyonga amagare bakagira ubuzima bwiza.

Inzu mberabyombi ihurizwamo imikino itandukanye, aho baraba bagiye gukinira imikino mu mupira w'amaguru, umupira w'amaboko, hakaza n'abantu baje kureba uwo mupira.

Uyu ni umukino ukinwa bakoresheje imipira bakayijugunya mu kantu k'agapaniye umuntu akaba atsinze. Ni umukino mwiza cyane ufasha mu gukurura umubiri no gukoreramo imyitozo ngororamubiri.

Imyitozo, imikino y'umupirama w'amaboko, umupira wo kujugunya mu gapaniye, umupira mwiza cyane ugufasha mu gusimbuka.

Imyitozo; amarushanwa y'amagare, aho ahuza igihugu cy'urwanda n'ibihugu byo hanze bakarushanwa, utsinze ku rwego rw'igihugu wakoze ibirometero byinshi agahembwa. Umukino w'amagare ni umukino mwiza cyane.

Ikibuga c'umupira aho bakunze gukinira umupira w'amaboko voreboro, iri ni izamu rero. Hahandi uzamura umupira waharenga ukaba utsinze, utaharenga ukaba utsinzwe. Ni ikibuga kiba mu majyaruguru ubona ko ari ikibuga ciza gifite umusenyi mwiza, kandi kiri ahantu hari amahumbezi, areba akaba ari izamu rya baro

Uyu ni umwe mu mukino ukoresha baro, ukoresha umupira mu gufata umupira ukawujugunya ugatsinda igitego. Uwo mukino ni mwiza ufasha abantu kugorora umubiri ugezweho.

Imyitozo ngororamubiri isaba imbaraga niyo kwiruka, murimwe amasegonda yirutse habamo n'iyo gusimbuka, ku ruhande rw'abagore, imyitozo iha kuruhande rw'abagore mu kwiruka no gusimbuka ibintu urukiramende.

Imihanda y'igitaka, imihanda dukunda gusanga mu giturage mu byaro kure y'umuhanda usanzwe, imihanda iba imeze neza ari iy'igitaka, ikoreshwa n'abagenzi n'ibinyabiziga bitari byinshi.

Akayira k'abanyamaguru gakoreshwa n'abanyamaguru ku ruhande kugira ngo katagongwa n'imodoka, ni akayira kagenderwamo n'abanyamaguru tukaba dukunze kuba turi hafi n'igiturage hafi n'ama kaburimbo manini.